Tugomba gufatanya n'abayobozi bacu, tukumva inama batugira kandi tukazubahiriza. Kugira ngo tubashe kugera ku byo badushakaho kandi tubashe gutanga umusaruro, tugirire igihugu cyacu akamaro.

Abayobozi barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, ni bamwe mu bitabiriye imbwirwaruhame, aho bigaragara ko bagiye guhabwa, amasomo cyangwa se amahugurwa, ku bijyanye n'ikintu runaka.

Abayobozi bacu bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu bityo batubwira ibitagenda neza nk'abatuyobora kandi natwe ni byiza ko tubyubahiriza kugira ngo dufatanye mu kwiteza imbere.

Ni abayobozi aho bari gutanga imbwirwaruhame bayibwira abaturage aho bafite insanganyamatsiko ivuga ngo urubyiruko menya amateka yawe, bigaragara ko bari kubaha ubumenyi ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda.

Uyu ni umuyobozi uri mu mbwirwaruhame aho ari gutanga impanuro ku bantu bitabiriye inama, ndetse abigisha n'uko ibintu bimwe na bimwe bikorwa. Ndetse akanakanagaragaza ishusho rusange y'uko ibyo barimo bihagaze.

Ibibazo twe nk'abaturage duhura nabyo ni ngombwa ko tugira aho tubitangira cyangwa se aho tubigaragariza abaturage ndetse n'abandi bayobozi bacu bityo rero dusabwa kwitabira imbwirwaruhame zose kugira ngo tubashe gutanga ibibazo byacu ku gihe.

Aba ni abayobozi bari mu mbwirwaruhame aho umuyobozi umwe ari kubagezaho uko igihugu kimeze ndetse n'aho bagize bisa intego bihaye, hakaba harimo abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse n'abashinzwe umutekano.

Abayobozi ndetse n'abayoborwa ni ngombwa ko dufatanya kugira ngo tubashe guha igihugu cyacu iterambere ryiza. Kandi tugafatanya kugira ngo tugere ku ntego igihugu cyacu cyihaye.

Ibigo by'imari cyane cyane byo mu gihugu cy'u Rwanda byamaze guteza imbere uburyo babonana n'abaturage, aho babasanga mu bice byose barimo kugira ngo babashe kubashishikariza gukorana na bo kandi babafashe guhabwa serivisi mu buryo bworoshye.

Aaba ni abayobozi aho bitabiriye inama. Bateze amatwi ibyo undi ari kuvuga kugira ngo babashe kubisesengura ndetse baze no kubitangaho ibitekerezo.

Abayobozi bo badufasha mu gukora ibintu byinshi, ndetse dufatanyije nabo byadufasha ko twafatanya guteza igihugu cyacu imbere, kandi tugafatanya nabo ibyo badusaba natwe tukabafasha kubyuzuza kugira ngo tugere ku iterambere.

Kumashya, ni bimwe mu bigize umuco nyarwanda, aho bifasha abahigi mu kubona ibyo kurya ndetse no kubona ibijyanye n'imitako, by'umwihariko iba yavuye ku nyamaswa bahize.

Umuco nyarwanda ni kimwe mu byo tugomba kubungabunga ndetse no gusigasira kandi ibikoresho bifashishaga abasekuruza bacu na byo tukabibungabunga kugira ngo bitangirika.

Umwirongi ni igikoresho gakondo, cyakoreshwaga n'aba kera ndetse n'abubu, cyane cyane abakurambere bacu, bikaba byarafashaga abantu mu kwisanzura, ndetse no mu kuvugana birimo no kuririmba ndetse n'ibindi bitere abantu ubwuzu.

Buri gihugu kigira umuco wacyo bityo rero nk'abanyarwanda, tugomba gufatanya mu gusigasira umuco wacu kugira ngo udacika ahubwo tukawufasha gukura kandi tugafatanya n'abayobozi gushyiraho ingamba zatuma tuwurinda.

Ababyinnyi by'umwihariko Intore ni bamwe mu bafasha kugaragaza umuco nyarwanda ndetse no mu gususurutsa ababa bitabiriye ibirori Intore ziba ziri butaramiremo.

Umuco nyarwanda ni kimwe mu bigomba gusigasirwa n'abantu, binyuze mu gukoresha ibikoresho bya gakondo ndetse no kubyina mbyino za kinyarwanda. Ibi bikadufasha mu kwibuka ndetse no mu kuzirikana umuco wacu.

Aba bagabo bari gufasha mu kwegura igiti cy'amashanyarazi, bityo gifasha mu gutambutsa insinga z'amashanyarazi. Kandi ikingiki gifasha mu kugira ngo abantu ndetse n'ibindi binyabuzima bitaza kwangiza iyo imigozi y'amashanyarazi, kandi bikarinda impanuka zaterwa n'umuriro uba uri muri izo singa.

Uyu ni umukozi ukora mu bijyanye n'amashanyarazi, uyu akaba afasha abaturage mu kubaha umuriro w'amashanyarazi, uva ku miyoboro rusange winjira mu rugo rwawe.

Izi ni inkingi zifashishwa mu gufata imigozi, ijyana umuriro w'amashanyarazi; izi nkingi zikaba zifasha iyi migozi ko itagwa hasi ndetse ikarinda n'impanuka zaterwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bice biteye imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo ibikorwa by'amashanyarazi ndetse n'ibindi..nabyo dusabwa kubungabunga, kugira ngo tutaba mu kizima kandi bikadufasha no kwiteza imbere.

Guhahirana byarorohejwe cyane cyane hano mu karere ka nyagatare; aho guverinoma y'u rwanda cyangwa se leta y'u rwanda yabubakiye ibiraro bibasha kubahakura ahantu hamwe bibajyana ahandi mu buryo bworoshye.

Iyi ni inzu yifashishwa mu gutanga imiti ku baturage kugira ngo babone ubuvuzi bw'ibanze, ikaba kandi iba iherereye ahantu hatari ibitaro, kugira ngo ban bajye babona imiti ku gihe batandiriye gukoresha imiti y gakondo.

Inyubako by'umwihariko za Leta dusabwa kuzibungabunga twe nk'abaturage kandi tugafasha no mu kuzubaka by'umwihariko mu bijyanye n'imiganda rusange ndetse n'ibindi bikorwa.

Inyubako za leta, zirimo ibiro, amavuriro, amasoko ndetse n'amashuri, twe nk'abaturage dusabwa kuzibungabunga ndetse no mu guharanira ko zatera imbere.

Iki ni igikorwa remezo cy'umuhanda. Aho ufasha abantu kuva ahantu hamwe bajya ahandi kandi ukorohereza abantu, mu bijyanye no guhahirana ndetse no kwihutana abarwayi ibavana ahantu hamwe bajya ahandi.

Iyi n'inzu yabugenewe, aho abayobozi bo ku nzego z'ibanze, bafasha guhura n'abaturage, kandi bakaza no gutangira ibibazo kugera ngo abayobozi babo babikurikirane.

Iyi ni inzu, ikoreramo abayobozi bo mu nzego z'ibanze, aribyo biro by'akagari ka Ndego, aho bifasha abaturage mu kwegerana nabo ndetse akaba ari naho abaturage batangira, ibirego ndetse n'ibindi, bakeneyemo ubufasha.

Inyubako nyinshi zitandukanye ziri mu karere ka Nyagatare harimo ibitaro, aho bifasha abaturage mu kubona serivisi nziza zo kwivuza ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Ni baturage bari kumwe n'abayobozi babo nabo bamaze gutaha ikiraro gifasha mu guhahirana k'uduce tubiri dutandukanye ndetse no mu kurinda impanuka zaba bitewe n'amazi menshi byaba ari aho bacyubakiye.

Iri ni ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda aho rigaragaza ahari inyubako ndetse n'ibindi bikorwa byose bijyanye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse ikagaragaza n'aho biherereye.

Leta y'u Rwanda yashyizeho inyubako nyinshi zifasha abaturarwanda kubona ibyo bakeneye, bityo rero tugomba kujyana abana bacu ahabugenewe habafasha mu kwaguka mu mutwe by'umwihariko mu bigo mbonezamikurire.

Inyubako za leta zirimo amashuri, ibitaro ndetse n'aho abayobozi bakorera ni bimwe mu byo tugomba gusigasira kandi tugafatanya n'ababishinzwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere.

Inyubako nyinshi za Leta zirimo: amasoko, amashuri, ibitaro, imihanda ndetse n'ibiraro. Ni bimwe mu bidufasha koroshya serivisi zitangwa n'abayobozi bityo rero tuba tugomba gufatanya kugira ngo tuzibungabunge.

Abayobozi bacu by'umwihariko abakora mu bijyanye n'ubutabera, tugomba kububaha ndetse tukabaha agaciro kuko bakora akazi gakomeye cyane ko guhuza ndetse no mu kumva ibitekerezo by'abaturage.

Iyi n'inama aho yitabiriwe n'abayobozi bareba ibijyanye n'iterambere ry'abaturage ndetse ikaba irimo n'abareba ibijyanye n'umutekano w'abaturage, akaba ariho harimo kubera ibijyanye no kuganira kubitagenda neza ndetse n'ibigenda neza by'uyu muryango.

Uyu ni umuyobozi uri mu mbwirwaruhame aho ari gutanga impanuro ku baturage ndetse akaba ari kubabwira ko bitagenda neza, ibigenda neza ndetse ababwira nuko uko bakwitwara mu gihe kiri imbere.

Uyu ni umuyobozi wo mu rwego rujyanye n'ubutabera aho ari mu mbwirwaruhame abwira abaturage ibijyanye n'uburenganzira bw'abantu ndetse n'ibijyanye n'ubutabera bahabwa bigenye n'ibyaha runaka.

Aha n'ahibukirwa abajije jenoside yakorewe abatutsi, aho hagaragaramo abayobozi bo mu nzego zitandukanye ndetse n'abashinzwe umutekano. Ndetse hakaba hagaragara ibyabatwaye birimo imodoka ndetse n'ibindi byifashishwa mu gufata amazi.

Abayobozi by'umwihariko abakora mu bijyanye n'ubutabera bagomba guhabwa agaciro ndetse tukanabubaha kuko badufasha mu kwiyunga ndetse no mu guhabwa izindi serivise z'ubutabera.

N'urwibutso aho hahuriye abayobozi b'ingeri zitandukanye mu kwibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi, hakaba hari abayobozi bo mu nzego zitandukanye ndetse n'abayobozi mu bijyanye n'umutekano.

Buri muntu wese afite uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we, bityo tugomba gufatanya kugira ngo hatagira uhonyora uburenganzira bwa mugenzi we, kandi tugafatanya n'igihugu cyose kwesa imihigo cyihaye.

Buri gihugu kigira indangagaciro zacyo bityo rero nk'abanyarwanda natwe hari indangagaciro tugomba kugira zikadufasha kugira ngo dutsinde ibyo dukora kandi zidufashe kuduherekeza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni ngombwa ko abatwara ibinyabiziga babyigira kugira ngo birinde impanuka nyinshi zajya zibera mu mihanda, kandi bigakorwa ahantu heza hatashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga.

Igare, ni kimwe mu bifasha abantu, kuva ahantu hamwe, bajya ahandi by'umwihariko mu koroshya ingendo bakora ndetse no kubatwaza, ibikoresho bafite bityo rero nabyo bifasha abantu mu ngendo bakora za buri munsi

Mu nsisiro aho dutaha hari imihanda idufasha guhahirana ndetse ikoroshya n'imigenderanire y'uduce runaka, bityo usabwa kuyibungabunga ndetse no kuyisigasira.

uyu ni umugabo ndetse n'umugore aho bari ku kinyabiziga cyitwa moto. Iyi ikaba ibafasha mu kubavana ahantu hamwe ibajyana ahandi, byihuse kandi kugira ngo badakererwa ibyo bagiye gukora.

Iki ni icyapa cyo mu karere ka Nyagatare aho kigaragaza icyerekezo harimo umudugudu akagari kikaba gifasha mu kurangira abantu icyerekezo barimo, ndetse no kugaragaza indangagaciro z'umuco Nyarwanda ndetse n'abaturage bo muri ako gace.

Iyi ni inzu, aho itangirwamo ibijyanye na serivisi z'ikoranabuhanga. Zirimo kwishyura mituweli ndetse n'ibindi. Hakaba hariho n'imodoka ifasha abantu, kuva ahantu hamwe bajya ahandi ndetse ikaba ibafasha no mu gutwara ibikoresho byabo.

Uyu ni umugabo ukora mu bijyanye no kurinda umutekano, akaba ari kuganira n'abaturage by'umwihariko akaba bagezeho uburyo bakwirinda gukora ibyaha ndetse no kubona amahoro aho batuye.

Umugore wagiye mu mbwirwaruhame, aho yitabiriwe n'abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, aho ari gutanga impanuro zizabafasha kugenderaho ndetse no mu kwaguka kw'u Randawana ndetse no kuruteza imbere.

Dufatanyije n'abayobozi bacu, dusabwa kubahiriza ibyo badusaba kandi buri wese akaba ijisho rya mugenzi we, bivuze ko dufatanyije n'abayobozi bacu baba badushakira ibyiza, tugomba gufatanya mu gushaka inzira y'iterambere.

Kuganira ni byiza by'umwihariko muri kuganira ku kintu cyubaka bityo rero nk'abanyarwanda tugomba kugira, umuco wo gukorera hamwe kandi tukanicara tukiga ku bitagenda neza, dufatanyije n'abayobozi bacu.

Aba ni abaturage aho bafatanya mu guteza igihugu imbere ndetse no mu kwishakira ibisubizo, binyuze mu buryo bw'imiganda rusange. Bikabafasha kandi kwishakira ibisubizo hagati ya bo bafatanyije n'abayobozi ba bo.

Uyu ni umuganda rusange aho ukorwa n'abaturage bo mu gace runaka, bikaba bifasha abaturage mu kwishakira ibisubizo, haba mu kubakira inzu abatishoboye ndetse no mu gufasha abandi mu bikorwa bitandukanye.

Aba ni abaturage aho bari kwiyubakira umuhanda binyuze mu cyo bita umuganda, ukaba witabirwa n'abaturage b'agace runaka, ibi kandi bikabafasha mu kwiteza imbere ndetse no kwishakira ibisubizo.

Umupira wo gukina ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abantu mu gukora imyitozo ngororamubiri binyuze mu kwirukanka ndetse no gukina kandi ukabafasha mu guhuza abantu bitabiriye icyo gikorwa ndetse ki bahuza n'abayobozi kugira ngo bahabwe impanuro runaka.

Imyitozo ngororamubiri idufasha mu guhura n'abayobozi bacu ndetse no gusabana nabo, bityo ikadufasha kandi mu gutuma duhura na bo, haba mu kutugira inama ndetse no mu gushyiraho izindi ngamba zadufasha.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bifasha mu guhuza abantu ndetse n'abayobozi kandi bigatuma abantu bisanzura bityo rero tugomba kuyiha umwanya uhagije ndetse tukayitabira.

Iki ni igikorwa remezo cyitwa sitade ya Nyagatare aho abaturage baba baje kwihera ijisho ibijyanye n'imikino cyangwa se no kuba baje gufata ibiganiro bitandukanye, ibi bikabafasha guhuza n'abayobozi babo kandi bikabafasha no mu kuryoherwa binyuze mu mikino.

Twese hamwe dufatanyije ntacyatunanira, ibyo bikaba bishatse kuvuga ko twese dushyize byaba mu myitozo ngororamubiri twagera kumo dukeneye kandi tukabasha no kubiha abadukikije.

Aba ni abanyeshuri bari ku kigo cy'amashuri aho bari mu myitozo ngororamubiri by'umwihariko bari gukina umupira w'amaguru, iyi imyitozo ikaba ikorwa iyo abanyeshuri basoje amasomo yabo nko kuruhura mu mutwe ndetse no gukora ibindi bibahuza.

Imyitozo ngororamubiri by'umwihariko gukina ndetse no kwiruka, ni bimwe mu bigomba guhabwa ibikorwa remezo byabugenewe kandi bisa neza.

Aba n'abasifuzi ndetse n'abakinnyi ndetse n'uhagarariye umukino, aho hagiye kuba umukino uhuza impande ebyiri zihanganye.

Ni igikorwa remezo, aho gifasha abantu mu kwidagadura, binyuze mu mikino ndetse no mu myitozo ngororamubiri kandi ikaba ifasha abantu mu gusabana ndetse no kumenyana, binyuze muri ibyo byavuzwe haruguru.

Iyi ni imodoka ya Polisi y'igihugu y'u Rwanda aho ifasha mu gucunga umutekano by'umwihariko wo mu muhanda, kandi ikaba ifasha mu kurwanya ibyaha cyane cyane ibikorerwa mu muhanda ndetse no gufasha abaturage mu kugenda bisanzuye kugira ngo badahura n'impanuka.

Aba ni abaturage barimo abasore n'abagabo ndetse n'abagore, aho bagiye mu gikorwa kibahuriza hamwe cyo gukora imyitozo ngororamubiri, ibi bakabikorana hamwe n'abayobozi babo, kandi bikabarinda indwara ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aba ni abakinnyi b'umupira w'amaguru. Aho bamaze gukora imyitozo ndetse hakaba harimo n'umugabo ubafasha mu bijyanye n'imikinire yabo. Aba bagatuma bakora kugira ngo bazabone umusaruro uvuye muri siporo zabo, harimo amafaranga ndetse no kwirinda indwara.

Aba ni abantu b'igitsina gabo aho bigaragara ko bari kwitegura umukino bakora imyitozo ngororamubiri irimo kwiruka ndetse no kumenyana.

Uyu ni umugabo uri ku gikorwa remezo kigaragara ko ari sitade, akaba ari gutanga imbwirwaruhame ku bantu baje gufatanya ibyo barimo biririmo siporo, kandi akaba ari kubaha impanuro z'uko bagendera ku byo bifuza ndetse byanateza igihugu imbere.

Aba ni abakobwa bari mu kibuga bari gukina umupira, ibi bikabafasha mu gukora imyitozo ngororamubiri kandi bikabafasha no kwishima kandi ibyo byose bituma bibongerera igihe cyo kubaho.

Abaturage basobanutse bari mu myitozo ngororamubiri, ibi bikaba bibafasha mu kubona ubuzima buzira umuze ndetse no kwirinda indwara kandi bikabibafasha mu guhura bakaganira no ku iterambere ry'igihugu.

Imyitozo ngororamubiri irimo kwiruka gukina ndetse no guterura ibiremereye ni ngombwa ko ikorwa n'abana, abakuru ndetse n'abandi b'ingeri zose kuko idufasha cyane cyane mu kurinda indwara.

Aba n'abana ndetse n'urubyiruko aho bitabiriye umukino bakaba bicaye mu mpande z'ikibuga, aho bari kugenda bareba uko umukino uri kugenda kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Ndetse bikaba biri no kubafasha mu kuganira ndetse bakishima.

Uyu ni umugore, umugabo ndetse n'abasore naho bigaragara ko bari bari mu myitozo ngororamubiri ikaba ibafasha mu gusabana kumenyana ndetse no mu kwirinda indwara zaturuka ku mubyibuho ukabije.

Ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku bantu bose ndetse no ku bantu b'ingeri zose, aho bifasha mu kurinda indwara, kurambuka kw'imikaya ndetse no kongera igihe cy'umuntu amara ku Isi.

Imyitozo ngororamubiri, irimo kwiruka, gukina ndetse no kwitabira izindi gahunda zose za leta zijyanye n'imyitozo ngororamubiri ni bimwe mu byo tugomba kwitabira kandi bikadufasha kwirinda indwara ndetse no kumenyana.

Imyitozo ngorora mubiri ni kimwe mu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza, bityo rero gukora imyitozo ni ngombwa cyane ku bantu bose, haba urubyiruko, abana ndetse n'abasheshakanguhe.

Gutegura ubuzima, haba ubwo mu mutwe ndetse n'ubuzima rusange ,bikorwa cyane cyane binyuze mu myitozo ngororamubiri, bityo tugomba gufasha abana, abakuze ndetse n'izindi ngeri zose, kubona aho zidagadurira.

Ni umuhanda wifashishwa n'abaturage mu kwambuka, baba bava ku muhanda nyabagendwa bajya mu duce dutandukanye two mu rugo. Bikabafasha kandi kwirinda impanuka ndetse no kugenda ahantu heza hafite isuku.

Mu nsisiro zitandukanye, abaturage bikorera umuganda kugira ngo bashyireho imihanda izajya ibafasha mu kwambuka bava ku mihanda minini bajya mu ngo zabo.

Uyu n'umuhanda, aho wifashishwa n'abaturage mu ngendo zabo za buri munsi kandi ukaba unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka, amagare ndetse n'ibindi byose, ukabafasha mu koroshya ingendo zabo ziva ahantu hamwe zijya ahandi.

Imihanda cyane cyane yerekeza ku ngo zacu ni hamwe mu ho tuba tugomba gutunganya kuko hatera impanuka zatuviramo gutakaza ubuzima ndetse no kugira imvune z'ubuzima bwacu bwose.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendaho umuntu, kandi uriho n'icyapa kigaragaza aho abanyamaguru batambukira, ukaba ukikijwe n'ibiti bijyana umuriro w'amashanyarazi, ndetse bikaba biriho n'amatara amurika mu masaha ya nijoro.

Iburyo bwo mu muhanda aho ukikijwe n'ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, kandi bikaba bifite n'amatara afasha mu kumurika ku muhanda. Ibi bikarinda impanuka zakorwa, binyuze mu kutabona ,ndetse bikaba binafasha abantu guhahirana mu masaha yose, haba ku munwa ndetse na nijoro.

Imihanda yegereye ingo zacu ni hamwe muho tugomba kubunga, kuko hadufasha mu kubona uburyo bwiza bwo kuva aho dutuye bitugeza ahandi twifuza kugera.

Iyi ni imodoka iri mu muhanda aho yifashishwa mu gutwara abantu batembera, bava ahantu hamwe bajya ahandi kandi bikabarinda gutakaza umwanya bakoresha bagenda n'amaguru kuko biratinda.